Iyi shusho irerekana mu nzu mberabyombi ihuramo abantu rusange hano ku ruhande hakaba ari icyapa cyometse ku rukuta cyerekana ko aha hantu hakoreshwa murandasi nziramugozi y'ubuntu.

Iyi ni ifoto yerekana uburyo ukoreshamo serivisi z'irembo hano baka bari kukwereka igice cya mbere uko ubigenza kugira ngo ukoreshe iyo serivisi z'irembo.

Iyi ni forumu umuntu yiyuzuriza ku giti cye ashaka gutangiza umushinga wo kwikorera, baragaragaza ibijyanye n'uwo mushinga, gukorera ku ikoranabuhanga, gushaka ibyo ukeneye, gushaka impapuro zemewe na leta ndetse n'ibindi byose wakenera.

Hano baratwereka insinga z'amashanyarazi, amapoto n'amapironi bikiri kubakwa, biri mu gipangu cyubatse kizengurutse kikiriri kubaka, inyuma yaho hakaba hari ubusitani bwiza.

Iyi foto iragaragaza abadamu batandukanye benshi bagera muri barindwi bose bafashe ku ipo ry'igihugu bari kurahira, bigaragaza ko bashakwa ko bari kurahira mu bijyanye n'inshingano bahawe z'igihugu.

Ifoto irerekana umuhanda wa kaburimbo, harimo abanyamaguru bari kugendera mu gice cyabugenewe cy'abanyamaguru, ndetse ikanerekana igikamyo kiri hirya mu byatsi, kimwe gikora imicanga, ndetse harimo n'icyapa cyerekana ko winjiye mu karere ka Karongi.

Iki ni icyapa cyo mu muhanda kerekana umuhanda ukomeza ndetse n'undi utambika ibumoso, ariko akaba ari imihanda iva mu kerekezo kimwe ariko ijya mu byerekezo bibiri bitandukanye.